Umwana ukiri muto iyo uhetse igikoresho kifashishwa mu gutera umuti bica udukoko tuba twatatse imyaka arimo aratera ibitunguru bimwe bakunze kwita iby'ibibabi.

Mu buhinzi n'ubworozi haba hari ibikorwa bitandukanye ugomba gukora kugira ngo ufate ibihingwa byawe neza nko kubitera umuti ndetse no kubishyiramo ifumbire igihe ubona yagabanyutse.

Umugabo uhetse igikoresho kifashishwa mu gutera umuti ibihingwa igihe byahuye n'udukoko tubyangiriza tukaba twatuma ibihingwa bitera neza uko bikwiye ngo bitange umusaruro.

Iduka ricururizwamo imiti y'amatungo itandukanye ndetse ikaba yifashishwa mu kuba wayitera mu bimera igihe byafashwe n'udukoko dushaka kubyangiriza maze ukongera umusaruro wawe.

Umugabo urimo arereka undi mugenzi we ibikorwa akora by'ubuhinzi ndetse akaba yambaye ingofero y'umupine n'undi akaba yambaye ishati y'amaboko maremare n'amarinete.

Igihe cyose ugiye gufata imiti ikomoka ku binyabutabire ni byiza kubanza wirinda ukipfuka intoki ndetse n'ahandi hose ishobora kugera, ikaba yaguteza ingaruka.

Amazi menshi azwi cyane nk'icyuzi baba barafukuye kugira ngo yifashishwe mu kuhira imyaka iba yegereye aho hantu cyangwa se yororerwemo amafi abantu barya.

Abagabo ndetse n'abagore bahagaze barimo barifotoreza imbere y'amazi asa nabi, bahagaze mu byatsi aho harimo umwe wunamye ndetse hakaba harimo n'undi wambaye umupira w'umweru.

Ni byiza kubungabunga amazi tuyagirira isuku kuko bituma abayavoma bakomeza kugira ubuzima bwiza, uyu mugabo arimo arakora ibintu bitemewe n'ubwo arimo aragaburira amafi.

Igihe ugiye mu burobyi ni byiza kwikwiza ndetse ukambara n'imyenda yabugenewe itatuma urohama mu mazi kuko ashobora kukwica akaba yagutwara ubuzima.

Abantu bafite inshundura bamaze kuroba mu mazi bamwe bambaye ubusa hejuru abandi barambaye, bose bakoze uruziga aho barimo bazamura amafi bamaze kuroba.

Abagabo bane bakaba bafite inshundura zuzuyemo amafi bamaze kuroba mu nyanja ndetse umwe yambaye ubusa, harimo n'abandi bambaye utugofero mu mutwe.

Abantu babiri bambaye imyenda y'inshabari, bari mu mazi, aho bari gukora uburobyi bw'amafi. Umwe afashe ifi mu ntoki amaze kuroba, iruhande rwabo hakaba hari ibyatsi byinshi.

Amazi agira akamaro kenshi cyane gatandukanye nko kuba yanyobwa, yifashishwa mu guteka, mu gukora isuku ndetse no kuhira ibiribwa bitandukanye tuba twarahinze mu mirima ariko cyane cyane yifashishwa bakora uburobyi bw'amafi cyangwa se kororeramo ayo mafi.

Amazi agira akamaro kanini cyane nko kuba twayanywa cyangwa se tukayifashisha dukora isuku, uretse ko nanone agira uruhare mu gucumbikira inyamaswa ziganjemo izikurura inda nk'amafi aba bantu bari kuroba.

Abantu b'abadamu bikoreye ibyatsi aho bari kunyura mu gishanga bahingamo umuceri, hirya yabo hari igihingwa cy'urutoki aho rusa neza bisa nk'aho nyira rwo arwitaho cyane kandi akuramo umusaruro ukwiye.

Ikawa ni kimwe mu bihingwa biteye imbere mu Rwanda aho cyane cyane usanga byiganje mu ntara y'Amajyepfo n'Uburasirazuba kandi bikaba byoherezwa hanze kugira ngo bizane amadovize mu Gihugu.

Mu buhinzi n'ubworozi ushobora guhinga imbuto zitandukanye nk'imyembe, amacunga, inanasi ndetse n'ibindi kandi byose bikaba byaguha amafaranga ushaka.

Mu Rwanda haba hari ubuhinzi butandukanye ubuhinzi bw'icyayi, ubuhinzi bw'ibireti ndetse n'ubundi butandukanye bushobora kuzanira Igihugu amafaranga nk'ikawa cyane cyane zoherezwa mu mahanga.

Ababyeyi bateze ibitambaro mu mutwe barimo barasarura igihingwa bahinze mu gishanga kizwi nk'umuceri aho barajya kuwanika kugira ngo bazawuhure maze babone uko bawugurisha.

Abadamu ubona ko bari mu myaka y'izabukuru, bahetse ibitebo barimo barasomeramo icyayi. Inyuma hirya ni mu misozi bigaragara ko uhahirimye utapfa kurokoka.

Ubuhinzi bw'ibireti mu Rwanda bumaze gutera imbere kuko buzana amafaranga menshi cyane, ni byiza ko nawe niba ufite aho kubihinga wabihinga kuko uzagira amafaranga.

Ikibaya kiza cyane giteyemo igihingwa kizwi ku izina ry'icyayi, ku misozi hakaba hateye amashyamba ndetse n'ibindi bihingwa abaturage baba barahinze, hakaba hari n'amazu abaturage batuyemo.

Icyayi ni bimwe mu bihingwa ngengabukungu u Rwanda ruhinga ndetse rukaba rubijyana no hanze y'Igihugu kugira ngo rubone amafaranga rwifashisha mu bindi bikorwa by'iterambere byaba iby'ubuhinzi cyangwa se ibindi nk'uburezi.

Mu maduka azwi cyane nk'acuruza imiti y'amatungo ni ngombwa ko haba harimo umukozi wabyigiye kugira ngo atavaho atanga imiti idakwiriye.

Kera abantu ntabwo bari bazi ko n'inka cyangwa se andi matungo bayatera inshinge ariko muri iki gihe aho ubuvuzi bumaze gutera imbere haje n'ubuvuzi bw'amatungo aho bitewe n'indwara itugwa ryarwaye bayitera urushinge.

Umubyeyi wambaye ikanzu afite isuka mu ntoki arimo arahingira ikawa zikiri ntoya, hirya ye hari ahandi hantu hahinzwe ariko ntiwamenya ibihahinze.

Umupolisi ufashe isuka ndetse n'undi mugabo na we ufashe majagu. Barimo barahinga. Inyuma yabo hari ibihingwa bitandukanye nk'ibigori, insina n'ibindi. Imbere yabo hakaba hari ikiraro kirimo amatungo.

Umuntu wambaye ingofero n'agapira k'amaboko magufiya, yazamuye amaboko arararama areba hejuru munsi y'igiti, bisa nk'aho yagiye gusengera ahantu abantu b'Abaporotesitanti bakunze kwita mu buvumo.

Ubuhinzi ni bwiza cyane cyane iyo bukozwe mu buryo bwa kijyambere kuko bubyara inyungu ndetse bugatuma n'abantu babona ibyo kurya. Nyagatare, ni kamwe mu turere dukunze guhinga ibigori.

Umugore wambaye igitenge akaba yakenyeye n'igitambaro mu mutwe arimo agenda iruhande rw'imboga zizwi ku izina ry'amashu, inyuma ye hakaba hari undi mugabo urimo urayatema n'umuhoro.

Guhinga ibigori ni byiza cyane kuko bituma wimara inzara ndetse ukaba warya n'ibindi biribwa bibikomokaho nk'akawunga ndetse yewe wanabyifashisha mu kuba wateka igikoma.

Ikibaya kiza kikaba kirimo ibidukikije byinshi, byaba ibigufi ndetse n'ibirebire, hirya hakaba hari undi musozi utagaragara neza, uriho ibiti byinshi kandi binini.

Umwana urimo arabagarira igihingwa kizwi ku izina ry'umuceri, kikaba ari kimwe mu bizana amafaranga nubwo atinda kuza ariko igihe aziye aza ari menshi.

Mu bihingwa bihingwa bihingwa hano mu Rwanda harimo byinshi bitandukanye nk'ibirayi cyangwa se imyumbati ikunze guhingwa cyane mu Ntara y'Amajyepfo ndetse n'iy'Uburasirazuba.

Igihingwa kizwi ku izina rya soya, hari kandi utundi dutoya tutarakura, hirya hari ibiti birebire ndetse n'inyubako zisakaje amabati atukura.

Urujya n'uruza rw'abantu rwiganjemo abambaye imipira ndetse n'amashati by'umweru ndetse n'abandi bambaye indi myenda ifite amabara atandukanye, barimo baragenda mu muhanda birasa nkaho bavuye mu ishyamba ahantu.

Abagabo biganjemo abasirikare, bafite imihoro barimo baragenda batema ibyatsi, hirya yabo hakaba hari ibiti binini cyane, batabashije gutema, aba baje mu gikorwa cy'umuganda rusange, umenyerewe mu Rwanda.

Abaturage baje mu gikorwa cy'umuganda, aho barimo babanya ibihuru kugira ngo birinde Malariya ndetse bagire n'isuku aho batuye ndetse bayikorere n'ibidukikije.

Iyo ishyamba rikuze bararisarura bakayotsamo amakara cyangwa se bakabazazamo imbaho zifashishwa mu bindi bikorwa bitandukanye by'iterambere cyangwa se bakaba ibyo biti babicana.

Ishyamba riba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye cyane cyane iyo ari nka parike y'Igihugu, izwi cyane yo mu Rwanda ni parike ya Nyungwe ibamo amoko menshi y'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umurongo w'umweru ukaba ukikijwe n'amabuye agiye ateyeho irangi ry'umweru n'umukara, ku mpande hari inzira y'abanyamaguru ndetse iruhande rw'iyo nzira hakaba hari ubusitani burimo ibyatsi.

Ubuhinzi bw'inanasi ni bumwe mu buhinzi butaratera imbere mu Rwanda, cyane cyane aho usanga n'ababukora, batabikora mu buryo bwa kijyambere, bigatuma umusaruro wazo, utaba utubutse.

Imyembe ni zimwe mu mbuto abantu bahinga bakajya bazifashisha igihe bamaze gufata amafunguro mu buryo bwa rusange kuko zishobora kwera ahantu hose kandi ntabwo bigoye kuziyenga.

Umudamu wambaye imyenda igeze mu bitenge ndetse witeze n'ikindi gitambaro mu mutwe, arimo arahinga mu nanasi kugira ngo zikomeze gukura neza ndetse zizamuhe umusaruro uhagije.

Amapapayi nabwo ni ubwoko bw'imbuto, aho ushobora kubirya mbere yo kurya cyangwa se nyuma yuko umara gufata amafunguro, bikaba byagufasha mu kwirinda indwara ndetse no kuguha vitamine mu mubiri.

Mu buhinzi n'ubworozi haba hari ibihingwa byinshi umuntu ashobora gutera akiteza imbere, harimo nk'inmyembe, amapera ndetse n'izindi mbuto zitandukanye zizana amafaranga.

Ahantu heza hari umuserege urimo amazi atemba. Ku mpande zawo hose hagiye hari ibyatsi ndetse biragaragara ko uruhande rumwe umusozi uteyeho icyayi.

Igihe wagiye mu bikorwa by'ubuhinzi ni byiza gukoresha uburyo bugezweho ubyuhira kugira ngo bizaguhe umusaruro, ushobora gukoresha ibihombo ukurura amazi.

Mu bihugu byateye imbere atari nko mu Rwanda usanga hari ibikorwa bitandukanye byifashishwa mu buhinzi kugira ngo bongere umusaruro uba ukomokaho nk'uburyo bwo kuhira bugezweho.

Abantu barimo barakoresha uburyo bwo kuhira bugezweho ibihingwa, hari ibyuma bihinduramo imirasire y'izuba ingufu z'amashanyarazi akaba ari yo yifashishwa.

Uburyo bwo kuhira bugezweho bukoreshwa mu buhinzi kugira ngo ibihingwa bikomeze kubaho nk'ibibona imvura ndetse bibone n'amazi ahagije. Hirya hari ishyamba rinini cyane ubona ritohagiye neza rishishe.

Abagabo n'abagore bambaye imyambaro y'akazi, barimo barareba uko igikorwa cyo kuhira imyaka gikorwa, hakoreshejwe agakoresho gatoya bavomesha amazi.

Mu buhinzi hasigaye hashyirwamo amafaranga hitabwa ku buryo bwo kuhira no mu gihe k'impeshyi ku buryo abantu bahinga nta kibazo nk'ibisanzwe bityo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi ugakomeza kuboneka nta kibazo.

Umwana w'umusore ariko w'igikara ukiri mutoya bigaragara ko ari mu gikorwa cyo kuhira imyaka harimo imbuto ndetse n'imboga zizwi ku izina ry'amashu.

Udusozi twiza cyane ariko tutari tureture, ni ahantu heza bigaragara ko hasa nko mu bibaya birimo n'urugezi cyangwa se ikiyaga nubwo tutazi icyo ari cyo.

Muri parike y'Akagera habaho inyamaswa nyinshi zitandukanye nk'impara, intare, imparage ndetse n'intare, hari kandi ubwoko bw'ibimera byinshi bitandukanye bitunga izo nyamaswa.

Ahantu heza ubona ko hari ibidukikije bitandukanye nk'ibiti, ibyatsi bigufi n'ibirebire, amazu ndetse n'utuyira twifashishwa n'abaturage batunyuramo igihe bagiye ahantu hirya no hino hatandukanye.

Ahantu heza h'ikibaya harambitse hakaba hari inyubako ndetse haciye n'amaterasi mu buryo bwo kurwanya isuri, hari ibidukikije birimo ibiti ndetse n'ibihingwa by'abaturage.

Ahantu heza aho hakikijwe n'imisozi itari miremire cyane ndetse n'ibidukikije ubona bitohagiye, hagati y'aho hari ikiyaga cy'amazi menshi, hirya kure hari ibicu by'umweru.

Ahantu heza cyane hari ibidukikije ndetse n'umuhanda, ibiti birebire, muri uwo muhanda hakaba harimo imodoka iriho amapine abiri inyuma ndetse hakaba harimo n'umuntu umwe wambaye imyambaro itukura yikoreye n'ijerekani avuye kuvoma amazi.

Igihe ukoze umushinga wo korora inkoko ni byiza gushaka ibisabwa byose kugira ngo zitazapfa zikaba zaguhombya amafaranga yawe akaba yapfa ubusa.

Ubworozi bw'inka ni kimwe mu bikorwa by'iterambere umuntu ahobora gukora kikazamuha amafaranga kandi ku buryo burambye, izi nka z'ikibamba zifite amahembe maremare kandi harimo n'abaganga baje kuzisuzuma.

Iyo ukora ubworozi bugezweho ni ngombwa gutumizaho veterineri nibura rimwe mu cyumweru kugira ngo aze asuzume inka zawe arebe ko nta kibazo zagize.

Ubu bworozi bw'ingurube ni bumwe mu bworozi buzana inyungu cyane iyo ba bwitayeho kuko usanga ishobora kubyara ibyana byinshi kandi byiza ukaba wabigurisha ugakuramo amafaranga menshi cyane.

Ubworozi bw'ingurube ni bumwe mu bworozi buri gutera imbere mu Rwanda aho usanga abantu basigaye babworora mu buryo bugezweho ndetse buteye imbere kandi bukazana amafaranga.

Nyagatare ni kamwe mu Karere kazwiho kuba gakunda korora inka cyane ndetse birumvikana ko ubwo haba n'amata menshi nawe wahagana igihe ukeneye amata.

Mu bworozi bw'inkoko ni byiza ko ubwitaho cyane kugira ngo butange umusaruro ukwiriye kandi unoze mu buryo bwo kugira ngo utazahomba, izi nkoko nk'uko tubibona ni nyinshi cyane ziri ahantu hatoya.

Iyo woroye neza cyane cyane nk'inka cyangwa se ubundi bwoko bw'amatungo nk'ingurube, inkoko, ubona umusaruro mwinshi kuko nawe uba warashoye byinshi, ni byiza ko wakororera mu kiraro kugira ngo ujye umenya ko ibyo wazihaye byose zabiriye.

Hambere mu Rwanda habaga inka zagiraga amahembe maremare ariko ubu usanga izihari ziba zifite uduhembe dutoya cyangwa se nta na two baradushirije ntitumere.

Ni byiza korora inka mu buryo bwa kijyambere kandi bugezweho kuko bituma zikura neza ndetse zigatanga n'umusaruro n'amata akaba menshi, agahaza abawe ndetse ugasagurira n'isoko.

Inka z'ikibamba ndetse n'iz'umusengo ni inka zikunze kuba ari ngufi atari ndende zibyibushye cyane, zikunda kandi gutanga umusaruro mwinshi w'amata nawe nagushishikariza kuzorora.

Mu Rwanda ubuhinzi bumaze gutera imbere, cyanecyane ubw'ibirayi n'ibigori, aho usanga mu ntara y'uburasirazuba bazwi cyane ku bigori, ndetse amajyaruguru akaba azwi ku birayi cyane.

Ibiganza by'umuntu bigaragara ko asa nk'ukuze arimo aratoranya imbuto ze avuye gusarura arebamo izapfuye kugira ngo azivanemo azite zitazanduza n'izindi zikiri nzima.

Ubuhinzi n'ubworozi ni bimwe mu bice by'inkingi za mwamba mu iterambere ry'Igihugu cyacu cy'u Rwanda aho usanga nko mu buhinzi haba hari: icyayi, ibireti, ikawa ndetse n'ibindi bijyanwa hanze bikazana amafaranga.

Ubuhinzi bw'umuceri mu Rwanda ni bumwe mu buzana amafaranga ku buryo bwihuse kandi akazira kimwe ari menshi, ariko nanone iyo bikozwe nabi bitera igihombo gikomeye.

Iyo wahinze neza ubona umusaruro utubutse nk'uko bigaragara aba barimo baratoranya ubunyobwa bahinze kugira ngo babone ubumeze neza bajye kubugurisha babone amafaranga.

Mu bihingwa tuzi hano mu Rwanda haba harimo nk'amasaka yifashishwa mu kuba bakora nk'inzoga zitandukanye cyangwa se bakaba bayakoramo igikoma baha abana, uyu mugore arimo arayavunga.

Abaganga bashinzwe kwita ku matungo mu Rwanda bamaze kuba benshi ni yo mpamvu igihe cyose ubonye itungo ryawe rigizeyo ikibazo ugomba guhita uhamagara bakaza bakayitaho byaba ngombwa bakaba banarivura.

Mu buryo bwo kugira ngo worore neza kandi ugire umusaruro. Ni byiza kujya ugana abaveterineri batandukanye kugira ngo ugure imiti ndetse n'ibinini bifasha amatungo yawe gukura neza.

Kwa muganga hakaba hari umuganga w'umuforomo wambaye ingofero mu mutwe n'agapfukamunwa, akaba arimo arasuzuma ibyo yari amaze gufata nk'ibizamini kugira ngo abone uko avura umurwayi.

Iyo woroye amatungo ushobora kuzorora ufite intego zitandukanye nko kuba wakuramo inyama cyangwa se kuba wazigurisha ukazakuramo amafaranga.

Mu mabusheri atandukanye usanga haba hari inyama z'ubwoko butandukanye nk'inyama z'inka, iz'inkwavu, iz'inkoko ndetse n'izindi aho umukiriya agura bitewe n'izo yishimiye.

Mu bworozi hakunze kuba hari abavetereneri babyigiye kugira ngo bajye bafasha aborozi kuvura ndetse no kwita ku matungo yabo igihe yahuye n'ikibazo, maze bibafashe kandi bibarinde guhura n'ibihombo bya hato na hato biterwa n'indwara.

Umuganga ushinjzwe kwita ku matungo cyane cyane amaremare arimo aravura inka kubera ko yagize ikibazo kugira ngo yongere kugira ubuzima bwiza ndetse na nyira yo abe atahura n'igihombo.

Umuganga w'amatungo wambaye itaburiya y'umweru n'inkweto z'umukara n'ipantaro by'umukara, hari n'abandi barimo baramufasha inka kugira ngo ayiteho ayitere urushinge rwa vitamini bityo ibashe gukura vuba.

Si ngombwa ko igihe itungo ryawe rigize ikibazo uhita ufata umwanzuro w'uko ugomba kurirya, ni byiza ko wahamagaza umuganga w'amatungo ubishinzwe kugira ngo abanze arebe ikibazo ryagize abe yarivura.

Muri pariki y'Igihugu y'Akagera habamo inyamaswa zitandukanye nk'impara n'imparage, intare n'ingwe ndetse n'ibindi bisimba byinshi bitandukanye aho abakerarugendo baza baje kubireba ndetse no gusura iyo pariki bagasigira Igihugu amafaranga kifashisha mu guteza imbere abaturage bacyo.

Mu mazi usanga ari ahantu haba icumbi ry'inyamaswa zitandukanye cyane cyane izihanganira kuba mu mazi ndetse zifite ubushobozi bwo kuba zahumekeramo nk'bishuhe ndetse n'ibindi bikururanda byose.

Mu mashyamba usanga hari inyamaswa zitandukanye zaba izoroheje ndetse n'izindi z'inkazi nk'intare, ingwe ndetse n'ibisamagwe. Ni ngombwa kubyitondera kugira ngo igihe uhanyuze bitagusatira bikaba byakugirira nabi.

Inkende ni zimwe mu nyamaswa zibayeho kandi zijya kugira imiterere nk'iy'abantu kuko usanga ibikorwa zikora bigiye kubamo ubwenge bwinshi nk'ubw'abantu cyane cyane nk'igihe zigiye gufata amafunguro.

Biragaragara ko aha ari muri Parike y'Akagera cyangwa se indi parike iyo ari yo yose, aho hari igisimba utamenya ubwoko bwacyo ariko ubona giteye ubwoba, hirya hari ibiti byinshi birebire ndetse hino hakaba hari utundi duti tugufiya.

Muri Parike y'Akagera harimo inyamaswa zitandukanye hakaba n'ubwoko bw'ibiti bitandukanye, mu nyamaswa harimo intare ndetse n'udusumbashyamba ari two bakunze kwita uduhene two mu ishyamba.

Mu bwoko bw'inyamaswa haba harimo ubwoko butandukanye nk'ibikururanda, ibigenda n'amaguru, ndetse n'ibiguruka. Iki ni igishuhe kikaba kiri mu bwoko bw'ibiguruka.

Abantu benshi bazi ko umwami w'ishyamba ari intare kandi akaba ari inyamaswa itinyitse kuko no mu ishyamba itajya yihanganira izindi nyamaswa ahubwo yirirwa izihiga kugira ngo izirye.

Muri parike haba harimo inyamaswa zitandukanye bukaba n'ubuturo bwazo, aho twavugamo nk'imparage, impara ndeta n'izindi zizana abakerarugendo bakaba baza kuzireba bagasigira u Rwanda amadovize.

Mu nyamaswa haba harimo izoroheje ndetse n'izindi z'inkazi ku buryo zitabasha kwihanganira ngenzi zazo nk'intare, inzovu ndetse n'izindi cyane cyane usanga zibarizwa mu Kagera.